Umunyeshuri w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umupira w'icyatsi uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, avuye mu musarani agiye mu ishuri kugira ngo atajyanayo imyanda.

Abakozi batandukanye bakora kwa muganga, bambaye amataburiya asa ndetse n'amakarita aberekana, imbere yabo hari abayobozi batandukanye harimo umusaza wambaye kositimu y'umukara

Abantu batandukanye harimo abadamu bafite impinja ndetse n'umugabo w'umuganga uri gupima ibiro by'abana akoresheje umunzani, hakaba hari umugore uje gupimisha umwana.

Abana batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu bahuriye hamwe ku iriba, baje kuvoma amazi, umwe muri bo akaba ari gukanda icyuma kugira ngo amazi azamuke bayashyira mu mabido ndetse n'utubido dutoya.

Inyubako ntoya zubakishije amatafari ahiye, zisize amabara y'ubururu, zubatswe vuba; zigiye kuzaza zikorerwamo imirimo itandukanye yo gutunganya ibyavuye mu musaruro.

Umuganga uri kumwe n'umubyeyi ufite umwana yaje kuvuza, umuganga akaba ari kumuha umuti akoresheje agakombe karimo umuti uvura indwara z'abana.

Inyubako yo kwa muganga ifasha abarwayi baje kwivuza indwara zitandukanye, hakaba hari abaganga babiri umugore ndetse n'umukobwa, hakaba hari n'abarwayi baje kwivuza, hakaba hari umugore uhagaze imbere yabo uri gutanga ibyangombwa.

Abakozi batandukanye harimo abagore, abagabo, bari ku murongo umwe, bambaye amasarubeti asa, bigaragara ko bari mu nama ndetse bishimiye kuba bari kumwe.

Idarapo cyangwa ikirangantego kiri mu mabara atatu harimo umukara, umuhondo ndetse n'umweru w'inyenyeri uri mu muhondo, umukara akaba ari wo wiganjemo.

Abaturage batandukanye harimo umugabo n'abadamu bateruye abana, umugabo akaba ari kubasobanurira ibyerekeye abana batoya n'ibiro baba bafite kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye b'abanyeshuri ndetse n'abaganga, bari imbere y'inyubako bakoreramo, bambaye amataburiya, bamwe baricaye abandi barahagaze bari kwifotoza.

Umubyeyi uri kumwe n'umuganga yaje kuvuza umwana w'uruhinja, umuganga akaba ari kumuha umuti akoresheje agacupa kabugenewe, umwana ateruwe n'umubyeyi wiwe uri kumufasha kubona umuti utandukanye.

Ababyeyi batandukanye bari hamwe, baje kwa muganga kwivuza indwara zitandukanye, harimo abambaye amakanzu y'ibitenge ndetse n'abambaye imipira ya move, bari hamwe, bari kumva inama.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo inama, harimo abaturage batandukanye harimo abagabo, abagore hagati yabo harimo umuganga wambaye itaburariya y'umweru uri kubasobanurira indwara.

Inyubako isize amabara y'ubururu, imbere yayo hari abantu bicaye ku ntebe bigaragara ko bari mu nama, harimo abagore, abagabo ndetse n'uwambaye imyenda y'ushinzwe umutekano.

Umwana mutoya wambaye agapira k'amaboko maremare, uri kumwe na mama we mu murima w'imboga, bakaba bari gusoroma imboga kugira ngo bajye kuziteka, umwana akaba yasetse ndetse na mama wiwe bakaba bishimye.

Icyumba kirimo abana b'abakobwa batoya b'abanyeshuri bambaye imyenda isa, imbere yabo hakaba hari abarezi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bari kuganiriza abana.

Abakozi bo kwa muganga benshi bagiye batandukanye harimo abagore, abadamu ndetse n'abagabo, bambaye amataburiya asa ndetse n'amakarita mu ijosi yerekana ko ari abakozi, bari kumwe n'umuyobozi wabo wambaye kositimu y'umukara.

Abantu batandukanye harimo umusore w'umuganga n'abakobwa babiri b'abaganga n'umukecuru w'umurwayi waje kwivuza, bagiye kumupima bakoresheje agashinge bagiye kumujomba ku kaboko.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibyuma bibafasha gusakaza amashusho ndetse n'amajwi, muri icyo cyumba hakaba harimo abaganga babiri, umugabo ndetse n'umugore wicaye ku meza, imbere y'iwe hakaba hari imashini ndetse n'amazi ari mu gacupa.

Umusaza uri kumwe n'umuganga wambaye itaburariya y'umweru ndetse n'akantu ku gahanga gapfuka isura, afite tabuleti yerekana amakuru atandukanye ajyanye n'indwara.

Abantu batandukanye harimo abakobwa ndetse n'umusore n'umudamu wambaye agapfukamunwa uri kuvomera abantu baje kuvoma akoresheje robine yabugenewe, hari amabido menshi atondetse ku murongo.

Umuhungu n'umukobwa b'abaganga, umuhungu yambaye itaburiya y'umweru, na ga mu ntoki, ari kuvura umukecuru wicaye imbere yiwe, umukobwa afite ibinini mu ntoki ndetse ku meza hari ibindi bikarito.

Umwana w'umuhungu uvuye mu bwiherero akaba ari kuri kandagira ukarabe, ari koga intoki kugira ngo yikureho umwanda akuye mu musarani kugirango abone ukuntu asubira mu ishuri.

Abadamu babiri bicaye ku ntebe, umwe ari iburyo, undi ari ibumoso, hari uteze agatambaro k'umuhondo, undi asukishije ibiryamye, bigaragara ko ari abayobozi.

Umwana mutoya w'umuhungu, uri gukaraba mu maso kuri robine, akoresheje intoki, ari gukaraba amazi meza aturuka mu iriba, akaba ari guseka umwana kubera ibyishimo.

Umuyobozi uri imbere y'abaturage ari kubabwira ijambo, hirya yiwe hari intebe ebyiri ziriho na mikoro imbere, bigaragara ko hari ahandi hicarwa abayobozi.

Abadamu bane bari kumwe n'umwana umwe ku iriba bari kuvoma amazi bakoresheje indobo zisa ubururu ndetse n'umutuku, bagiye kwifashisha basukura ibikoresho ndetse n'imibiri yabo.

Inama irimo abayobozi b'abagabo, bari kuganira imbere yabo ku meza hakaba hari ibitabo ndetse n'ibirahure birimo amazi, bakaba bari gukora inama bishimye.

Abaturage b'abadamu harimo n'abana bicaye hasi, imbere yabo hari umuyobozi w'umugabo ufite ikayi mu ntoki ndetse n'ikaramu uri kubabwira amategeko.

Abakozi bakora kwa muganga, bambaye amataburiya asa, bari kumwe n'umuyobozi wabo, bose bafite telefone mu ntoki, bari kwerekana ko bari hamwe.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo inama, hicayemo abayobozi b'abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi ndetse n'ibitabo bagenda bandikamo ibyavugiwe mu nama.

Icyumba kinini cyane gikorerwamo inama, harimo abantu batandukanye b'abayobozi, bari kuganira ku ndwara zigiye zitandukanye, imbere yabo harimo uducupa tw'amazi imbere yabo.

Icyumba gikorerwamo inama, hicayemo abayobozi batandukanye, imbere yabo hagiye hari udukoresho tujyana amajwi ndetse hari n'umuyobozi uri kubabwira amategeko, hirya y'iwe hari idarapo ry'u Rwanda.

Abaturage bicaye hamwe bambaye amataburiya asa, harimo abakecuru ndetse n'abagabo bari guhabwa inyigisho zerekeye gufasha abaturage mu ndwara zoroheje...

Abagore batatu bakennye ibitenge biri mu mabara atandukanye, babiri bari kuvoma amazi bakoresheje iriba rikoreshwa n'imbaraga bazamura, bamanura kugira ngo amazi aze, undi ari kuyadaha mu ndobo ayakura mu kibase kinini.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru mu kibuga, imbere yabo hari imodoka nini cyane isize ibara ry'umweru irimo ibyumba bibiri bifite ibirahure byifashishwa mu kuvura abantu.

Umugabo uri mu muhanda wambaye imyenda yacikaguritse, afite ibikapu mu kaboko k'ibumoso ndetse n'igitebo mu kaboko k'iburyo, mu maso arasa nabi yisize ibintu bisa umukara.

Icyumba kirimo abadamu babiri bafite impinja, imbere yabo hari umukobwa w'umuganga uri kubasobanurira ukuntu bafata abana beza, babaha indyo yuzuye kugira ngo bazagire imikurire myiza.

Abayobozi bo kwa muganga, harimo abagabo, abagore, bahagaze ku murongo bari kwifotoza, bamwe bari imbere, abandi bari inyuma, nta n'umwe ureshya n'undi.

Umuturage w'umugore, wicaye hasi ateruye umwana mutoya, hirya y'iwe hari undi mwana mutoya w'umuhungu. Bigaragara ko bari kureba umuntu, imbere yabo hari inkoko iriho ibigori ndetse bari gushe.

Igishushanyo cy'umutwe w'umuntu mo imbere handitsemo amagambo, hirya yacyo hariho ibara risa ubururu ndetse ayo magambo na yo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Icyumba bakoreramo inama, hakaba harimo abadamu bambaye imyenda itandukanye, bari mu nama y'ubuzima kugira ngo barebe ibibazo byugarije abaturage, hakaba harimo n'umuzungu hagati yabo, bakaba bari gukoma amashyi.

Umuntu wipfutse mu maso uri kurira yihanagura amarira akoresheje agatambaro k'umweru, yambaye ingofero y'umukara ari kurira bitewe n'ibibazo afite.

Ibice bibiri, kimwe gisa ubururu kirimo ibimenyetso by'abantu ndetse n'abarwayi bigaragara ko ari ibyapa byerekana inzira cyangwa ahatemerewe kunyura.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe imbere y'umuryango, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, n'uwambaye ishati ijya gusa umweru, umukobwa wambaye ubururu ndetse n'umugore, n'umukecuru bambaye ibitenge,

Abana batoya harimo abakobwa n'abahungu bicaye hamwe, bambaye imyenda y'ishuri bari kuganirizwa ku bijyanye n'amasomo yabo biga ndetse n'amagambo bagiye kuzaza bakoresha.

Umukobwa wambaye igitenge mu mutwe ndetse n'agapira gatoya, yicaye ku ntebe ahantu kwa muganga, ategereje abamuvura kugira ngo bamusuzume,,,

Umuntu w'umugabo w'umusaza, bigaragara ko ari kurira amarira yashotse ku matama ndetse n'amaso yiwe yatukuye bitewe n'agahinda afite.

Abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo, bicaye ku murongo bari mu nama, bari kuganira ku bijyanye n'indwara zibasira abantu, hakaba hari umugore ufite mikoro, uri kubabwira.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru, ateze igitambaro mu mutwe cy'umweru, ari mu kirahure ari kwiborosa akoresheje uburoso bw'ubururu, ari kwireba no mu kirahure ukuntu yiborosa.

Umuganga uri mu cyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye ndetse n'imiti yifashishwa mu kuvura izo ndwara ndetse akaba ari gukora ubushakashatsi.

Umusore uri kwireba mu kirahure, wasetse afite akadodo mu kanwa ari gukoresha akuramo imyanda mu menyo, afite amenyo asa umweru neza cyane, bigaragara ko akoresha umuti woza amenyo.

Umuganga wambaye ga ku ntoki zisa umutuku, afite igipupe cy'amenyo ndetse n'akuma bakoresha boza amenyo cyangwa bayavura, ari kwiga ukuntu bayavura.

Umusore w'inzobe wasetse uri koza amenyo akoresheje akadodo akanyuza mu menyo kugira ngo havemo imyanda yagiye hagati y'amenyo, akaba afite amenyo meza kuko akoresha umuti woza amenyo.

Ishusho yerekana uko amenyo atondetse mu kanwa ndetse n'afite ikibazo, akaba ari mu ibara ry'umukara ndetse akaba ar'umuganga wayifashishije kugira ngo arebe ibibazo by'amenyo y'umurwayi.

Umwana uryamye kwa muganga, hejuru yiwe hari umuganga wambaye ga ku ntoki, ufite ubukoresho bakoresha bavura amenyo, akaba agiye kuvura umwana amenyo.

Umusaza uri kumwe n'umuganga w'umugore ari mu cyumba cyahariwe gukoreramo siporo, umuganga akaba ari kwerekera umusaza ukuntu baterura bakoresheje akaboko kugira ngo agire ingufu mu kaboko ndetse n'indwara zikiri.

Abantu bari hamwe bagize umuryango, harimo umusaza n'umukecuru, umugore n'umugabo ndetse n'abana babo, bicaye hamwe bari gukina baseka, bamwe bambaye imyenda y'umuhondo abandi bambaye imyenda y'ubururu.

Umusaza wicaye mu kagare, wambaye akajire ndetse n'agapira k'amaboko maremare, akaba yicaye mu kagare, hejuru yiwe hari umuganga w'umukobwa uri kumusunika amujyana hanze kugira ngo afate akayaga.

Umukecuru wicaye hasi uteze agatambaro k'umweru yambaye n'ishati y'umweru, yambaye n'igitenge cy'umuhondo, akaba yicaye hasi ari guteka akoresheje ibishangari.

Umukecuru wambaye amarinete ndetse ufite n'imisatsi myinshi irimo imvi, akaba yicaye ku ntebe, afite ikirahure cy'amazi mu kaboko akaba yatamiye ibinini akaba agiye gusomeza amazi kugira ngo ibinini bimanuke.

Umucyecuru uri kumwe n'umugore bari mu gikoni imbere yabo hari imbuto ndetse n'imboga zigiye zitandukanye bagiye kwifashisha bakora ifunguro ryo kurya,

Umusaza wicaye mu kagare uri kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ikarita mu ijosi, akaba ari gufasha umusaza guterura akuma kugira ngo akire indwara afite mu kaboko.

Umugore wambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye hasi ari gukora siporo, ari gukoza amaboko ku kaguru arambuye amaboko.

Umuryango urimo umusaza n'umukecuru, umugore n'umugabo w'iwe ndetse n'umwana babyaye, bambaye imyenda itandukanye harimo amashati ndetse n'imipira, bari kwifotoreza mu muhanda.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo siporo, harimo umukecuru ndetse n'umuganga ufite imisatsi myinshi igwa mu mugongo, uri gutoza umukecuru kurambura amaboko ndetse no gukora siporo zitandukanye.

Umukecuru wambaye imyenda ya oranje, uteze igitambaro cy'umukara wicaye mu kagare, inyuma yiwe hari umuganga ufite menshi wambaye imyenda y'ubururu uri kumusunika mu kagare.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga, umukecuru akaba yicaye ku ntebe, imbere y'iwe hari ikirahure cy'amazi ndetse n'ibinini, imbere ye umuganga akaba ari kumufasha kugirango anywe ibinini.

Imeza iriho ibikoresho abaganga bakoresha bapima abantu indwara zitandukanye ndetse n'impapuro bandikaho na bike bakoresha bandika ndetse n'igikoresho bakoresha batera inshinge abantu.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye umweru, umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, kikaba cyerekana ahantu hakorerwa imirimo yo kuvura Kanseri mu Rwanda.

Igipapuro kiriho ishusho y'abana ndetse n'amagambo menshi yanditswe mu bika, munsi yaho hari andi magambo ari mu mabara y'ubururu.

Ubucupa buri hamwe burebure bufite imipfundikizo y'icyatsi, bukoreshwa babika imiti itandukanye ivura abarwayi imvune ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye.

Inyuguti eshatu ziri mu mabara atandukanye, harimo ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, hirya yayo hari andi magambo yanditswe mu ibara ry'umukara akaba asobanura ikigo.

Itsinda ry'abaganga bavura indwara zigiye zitandukanye, bambaye ibintu bibapfutse hose bisa umweru ndetse n'udupfukamunwa, inyuma yabo hari undi muganga wambaye imyenda isa nka move.

Abaganga bicaye hamwe bari kumwe n'abarwayi bari gupima indwara zitandukanye, harimo nka korona ndetse n'izindi ndwara zandura hakoreshejwe kwegerana cyangwa guhumekera mu ruhame.

Icyumba bakoreramo inama, kirimo abantu batandukanye, harimo abagabo, abagore, abagabo bakaba bambaye amakositimu y'umukara ndetse n'abagore bakaba bambaye imyenda myiza igiye itandukanye, bakaba bari gukurikira inama bagirwa n'umuyobozi wabo.

Icyapa kiriho umwana mutoya uri kumwe n'umuganga, bari kwerekana ko bishimye ndetse umuganga uri kuvura umwana indwara zitandukanye.

Ifoto y'umukobwa wisukishije ibimeshi bimanuka mu mugongo, hirya yiwe hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku ndetse hejuru hari n'ikirangantego cy'umubumbe wa Afurika.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye, imbere yayo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi, cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, akaba hari n'ama esikariye azamuka.

Amarembo binjiriramo bajya kwa muganga, imbere yayo hari ibyapa bibiri binini byerekana ko hakorerwa imirimo yo kuvura abarwayi, mu muhanda hari abantu bari ku igare.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye, hari ibifashe ku nkuta, ndetse no hejuru, hasi hari igitanda umurwayi aryamaho.

Icyumba cyo kwa muganga bakoreramo imiti itandukanye, harimo imashini zikora imiti ndetse n'ubukarito bashyiramo imiti yarangijwe gukorwa, hakaba hasa neza ndetse nta n'umwanda urimo.

Inyubako nini cyane isize ibara ry'umweru, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ari ndende cyane kandi ari nshyashya, ikaba itarakorerwamo, ruguru yayo hari abantu benshi bari gutambuka mu muhanda.

Umubyeyi uteruye akana kambaye imyenda y'umweru n'akagofero k'umweru, hakaba hari umuganga uri impande yabo, akaba agiye guterura uwo mwana kugira ngo arebe ikibazo yaba afite.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye imyenda y'umweru, ndetse n'udupfukamunwa, bari gukora imiti itandukanye bakoresheje imashini, bari kureba ukuntu umuti ujya mu ducupa.

Inyubako yo kwa muganga, ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hari icyumba bakoramo imyitozo, hari n'ikindi kirimo ibikoresho bitandukanye, bifashisha bazamura ibyuma.

Icyumba cyo kwa muganga, gikoreshwa mu kuvura abantu batandukanye bafite ibibazo by'imvune, hakaba hari imashini ebyiri zifashishwa mu kureba ikibazo cy'umurwayi ndetse n'igitanda aryamaho kugira ngo bamufashe.

Inyubako yo kwa muganga ifasha ababyeyi baje kwibaruka abana ndetse n'abaje gupimisha inda, hanze hakaba hari abaganga bicaye ku ntebe ndetse n'undi uhagaze ku muryango.

Inyubako yo kwa muganga ndende cyane ifite imiryango myinshi ndetse n'ibirahure, izakorerwamo bakira abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, imbere yayo hari imodoka iparitse ndetse na moto, hakaba hari n'idarapo ry'u Rwanda muri jaride.

Inyubako nini yo kwa muganga irimo ibyiciro bitandukanye ibyo hasi ndetse n'ibyo hejuru. hirya y'aho hari amashyamba ndetse n'imisozi, hari n'idarapo hepfo y'inyubako, hakaba hari n'abantu bari kuzamuka bajya kwisuzumisha indwara.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini ndetse n'utubati bashyiramo ibikoresho bakoresha bagisukura, ndetse bagikoresha kugira ngo kivure umuntu kimufotora, kugira ngo babone ibice by'umuntu bifite ikibazo.

Umuganga uri kuvura umurwayi wicaye ku ntebe, umuganga ari kumutera urushinge ku rutugu kugira ngo amuvure indwara zitandukanye.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga yubatswe vuba, imbere yaho hari imodoka ndetse n'abantu bari gutambuka mu muhanda, bigaragara ko bari kujya kwa muganga kwivuza cyangwa mu kazi.

Inyubako yo kwa muganga ifite umuryango munini cyane wifashishwa mu kwinjira cyangwa gusohoka, hejuru yawo hari amagambo yanditswe mu mabara atandukanye, harimo, umuhondo, umutuku, ubururu.

Inyubako yo kwa muganga, nini cyane, ifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya, hanze hakaba hari abaganga babiri bari gutambuka bava mu cyumba kimwe, bajya mu kindi, kureba abarwayi.

Abantu benshi bahuriye kwa muganga, harimo abagore bambaye ibitenge ndetse n'abakobwa, imbere hari imodoka y'umukara ihagaze, ndetse imbere yayo hari umugore uyihagaze imbere bigaragara ko ari iyiwe.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe kubaga abarwaye indwara zitandukanye, harimo abaganga batatu ndetse n'umurwayi uryamye ku gitanda, hejuru yiwe hari imashini yifashishwa mu kureba.

Inyubako igeretse kabiri, isize amabara y'umweru ndetse n'ikigina. Imbere yayo har'ibyapa biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, hakaba hari kaburimbo ruguru yayo, inzu ikaba ikiri shyashya.

Umuhanda ujya ku nyubako bakoreramo ubuvuzi, hari jaride imbere y'uwo muhanda ndetse n'akapa karanga ko ari kwa muganga. Imbere gato hari idarapo ry'u Rwanda, mu muhanda hari umubyeyi ugiye kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe n'ibitanda abarwayi bakoresha baryama kugira ngo babone ukuntu abaganga babavura.

Umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'umweru na ga mu ntoki ufite akantu ari kumviraho amajwi akoresheje agakoresho kabigenewe kugira ngo amenye ikibazo umurwayi afite.

Icyumba kinini cyane cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, harimo ibyo baterura bizwi ku izina ry'ibyuma ndetse n'ibyo baryamaho bari gukora izindi siporo.

Inyubako yo kwa muganga yahariwe kuvuriramo abarwayi bafite indwara zitandukanye, hakaba hari amarido asa umuhondo ndetse n'ibitanda, ruguru yaho hari imashini yifashishwa mu kubika imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho kimwe cy'imashini yifashishwa mu gupima abantu indwara zitandukanye zo mu mubiri, gikoreshwa mu gufotora umubiri

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abantu, ku nkuta hagiye hashushanyijeho ibipupe, ku nkuta hakaba hari n'igitanda umurwayi aryamaho.

Umuganga uri mu baturage wambaye itaburiya y'umweru n'amarinete, ufite agakoresho bakoresha bapima indwara, agafite ku ijosi ndetse n'agakayi ari gusomera abaturage indwara zitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga ifite icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibitanda ndetse n'ibikoresho by'imashini byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse no kubapima indwara zitandukanye.

Inyubako nini ifite imiryango ibiri yegeranye, hejuru yayo hari amadirishya abiri manini ndetse n'icyapa cyerekana ko aho havurirwa indwara z'amaso ndetse n'igishushanyo cy'ijisho.

Icyumba gikorerwamo siporo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ariteri ndetse n'ibyuma binini baterura, hari utwariteri dutoya dutondetse ku murongo twinshi

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini nini cyane yifashishwa mu gufotora ibice by'umuntu, akaba umuntu aryamaho maze bakamwohereza muri iki cyuma kugira ngo kimufotore ibice byose.

Igikoresho cyo kwa muganga gikoreshwa mu kuvura abantu, hapimwa indwara zitandukanye zifatwa n'ubuhumekero ndetse kigakoreshwa no guhuha umuyaga mu cyumba.

Agakoresho kari mu ibara ry'umukara, kifashishwa mu kwambara mu ivi mu gihe umuntu yagize ikibazo cy'imvune cyangwa ari gukina umukino wa volleyball, akakambara kugira ngo karinde umubiri wiwe.

Imeza iriho ibikoresho bakoresha bakora siporo uzwi mu izina ry'ariteri, hakaba hari n'imbuto zitandukanye harimo icunga na pome n'imbuto zifashishwa mu guteka ifunguro ndetse na ji iteretse mu kirahure.

Inyuguti zitondetse ku murongo umanuka ziri mu mabara atandukanye, hirya yaho hari amagambo yanditse nayo mu mabara ndetse n'ibishushanyo by'abantu byerekana imikino itandukanye.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba ari mu cyumba cyahariwe gukoreramo siporo, akaba afite baro mu ntoki yifashishwa mu guterura ndetse no gukora siporo.

Abantu babiri bari mu kibuga umwe yambaye umupira w'umuhondo n'agakabutura k'umukara afite ibyuma mu ntoki bimufasha gutambuka undi afite baro mu ntoki bigaragara ko nawe agiye gukina.

Umwambaro umwe w'inkweto z'umukara ndende zimeze nk'iz'abasirikare, rumwe ruriho agapapuro k'umweru kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga baterura umuntu wagize ikibazo mu kibuga cyangwa ahandi mu muhanda habereye impanuka, bamuryamishaho kugira ngo bamugeze kwa muganga.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare, usa oranje, wicaye ku gitanda, ku ivi afiteho igisebe, bamupfutse bakoresheje ibipfuko bisa umweru, ari gukoraho akanda kugira ngo yoroherwe.

Umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'amaboko magufi w'umukara, ari mu kibuga ari kuvura umukinnyi wagize ikibazo cy'akaboko, ari kumushyiraho bande.

Umusore wambaye tisheti uri gukora siporo akaba yari ahagaze ari mu karuhuko, akaba ari kunywa amazi akoreshega asuka kugirango ngo aruhuke kugira abone ukuntu akomeza.

Imeza iriho ibikoresho bitandukanye abaganga bakoresha bavura abantu indwara zitandukanye, hariho n'ibinini ndetse na ga umuganga yambara mu gihe ari kuvura umurwayi ndetse n'ubushashi burimo imiti.

Ibice by'umutwe w'umuntu bigaragaza ubwonko bw'umuntu buri mu mutwe ndetse n'ikibazo umuntu afite, ayo mashusho akaba yarafashwe n'icyuma cyo kwa muganga.

Ishusho y'umuntu wambaye isengeri y'umutuku uri kwirukanka imbere yiwe hakaba hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, akaba asobanura ko ari ikigo cyigisha imyitozo yo kwirukanka.

Umuntu ufite agakoresho mu ntoki kifashishwa mu kuzirika umubiri wagize ikibazo harimo nk'akaboko cyangwa akaguru bakaba bagahambiraho kugira ngo atagira ikibazo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, harimo imyenda ndetse n'imipira bakoresha bakina, hakaba hari n'agakoresho kifashishwa gapima umuntu mu bubuzima bwiwe.

Abana batandukanye, bari mu kibuga cya vore bari gukina umupira bishimye, hakaba hari umwe w'umukobwa wateye umupira uri mu birere, abandi bakaba bari gukoma amashyi.

Umukobwa uri muri siporo wambaye agasengeri gatoya k'umukara, ndetse na kora y'umukara, ku kaboko afiteho agakoresho kifashishwa gutwara terefone, ndetse ari kunywa amazi bigaragara ko yari ananiwe, kugira ngo akomeze.

Abaganga bari mu cyumba bavuriramo abarwayi, bose bakaba bambaye imyenda isa y'ubururu n'utugofero tw'icyatsi n'udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hari imeza iteretseho ibikoresho ndetse n'inyuma hari imashini yifashishwa mu kuvura.

Icyumba bareramo abana batoya, hakaba harimo umumasera ndetse n'umuzungu uri kumwe n'akana bari gukina, bakaba bishimye, akana kakaba kari guseka kubera umuzungu ari kugakinisha.

Imeza iriho ibikoresho bitandukanye by'abaganga, hariho akamashini gasa umutuku ndetse n'igipupe bakoresha biga ukuntu bapima abantu indwara zigiye zitandukanye ndetse n'imigozi bifashisha.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara, akaba ari mu cyumba ari gukora siporo, akaba yapfukamishije akaguru kamwe, akandi akaba yagateye imbere, ari kugorora amaguru kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore ufite umusatsi mukeya wambaye agasengeri kajya gusa umweru, uri muri siporo bigaragara ko yari ahagaze ari kunywa amazi akoresheje agapipiri keza gafite umupfundikizo w'umukara.

Ubucupa burimo imiti ikozwe mu bimera, ivura imvune umuntu yagize mu kaguru cyangwa mu kaboko, mu gihe yari ari gukina umupira cyangwa akina vore akagira imvune bagasigaho kugira ngo akire.

Impande ebyiri z'amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, munsi yayo hari umukobwa wicaye mu ntebe ndetse n'ndi uhagaze afashe intebe mu ntoki. Bari kugaragaza amagambo yabugenewe.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, bahagaze mu kibuga imbere hakaba hari umuntu wavunitse, wicaye ku kagare wambaye bande ku kaguru, bigaragara ko bagiye kumujyana kwa muganga.

Abasore bane bari muri siporo birukanka mu muhanda wabugenewe gukoreramo siporo, umwe muri bo akaba afite ibibazo mu kaboko ndetse no mu kaguru, hakaba hari ibimenyetso biri kugaragaza ko afite ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini zitandukanye harimo eshatu nini zikoreshwa mu gukora siporo zo kwiruka ndetse n'izindi z'inyuma zirimo zikoreshwa mu guterura ibyuma.

Akagare ko kwa muganga kifashishwa ku bantu bafite ubumuga ndetse n'abandi bafite ibibazo byo kugenda nk'imvune cyangwa abafite uburwayi burambye.

Abantu babiri umugore n'umugabo bateranye ibitugu, bari kunywa amazi bakoresheje ubupipiri, bakaba bari kugotomera kugira ngo bashire inyota.

Imeza iteretseho imbuto zitandukanye harimo voka, pome, indimu, amacunga ndetse n'imboga bifashisha bateka indyo yuzuye ndetse n'icyuma gikoreshwa mu gukora siporo.

Umusore ufite amatuza wambaye ubusa hejuru, afite ubupfuko buri mu mabara y' umuhondo ndetse n'umutuku ku kaboko, bigaragara ko afite ikibazo, utwo dupfuko tukaba tumufasha gukira igikomere.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ya kinyarwanda ikozwe mu bimera, hakaba hari umugore uri kuyicuruza uteze igitambaro cy'umweru, imbere yiwe hari umugabo waje kugura umuti bitewe n'indwara arwaye.

Imeza iteretseho ubwoko bw'ibinini biri mu bucupa ndetse n'ubukarito buri mu mabara atandukanye, iyo miti iva mu bihingwa bigiye bitandukanye harimo ibimera ndetse n'ibindi.

Ikimera gifite imbuto zijya gusa umuhondo, cyifashishwa mu kuvura indwara ndetse no kuvamo imiti itandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye, harimo nko kubabara umutwe, mu nda ndetse n'izindi.

Umuganga w'umugabo wicaye imbere y'ameza, ateretseho amacupa abiri arimo imiti isa amabara atandukanye, akaba ari gukora ubushakashatsi ku miti.

Urugemwe rw'imbuto ruvamo imiti itandukanye ivura indwara, harimo nk'imvune umutwe mu nda, kikaba gikoreshwa kivanzwe n'izindi.

Agacupa karekare ndetse n'akandi kagufi kagaragaza umuti wifashishwa mu kuvura uruhu rw'umuntu rwagize ibibazo bitandukanye, hariho nko kuzaho ibiheri.

Ubucupa butandatu buri mu mabara y'umweru butatu buri hasi ubundi buri hejuru burimo umuti ukozwe mu bimera harimo ibikakarubamba ndetse n'ibindi uwo muti ukaba uvura indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye biri hamwe harimo nk'umuravumba, igikakarubamba, umwenya, biri kumwe n'agasekuru bakoresha bavanga kugira ngo havemo umuti uvura indwara.

Abaturage bari mu murima, bari gusoroma ibihingwa bateye kugira ngo bajye kubitunganya havemo ibyo kurya ndetse n'ibindi bajyana ku isoko.

Icupa ririmo umuti ujya gusa ikigina ufite umufuniko w'umweru, umuti urimo ukaba ufasha abarwayi bafite ibibazo bitandukanye, harimo kubabara mu nda, kubabara umutwe ndetse n'izindi ndwara.

Agakarito ndetse n'uducupa tune turimo imiti itandukanye ikozwe mu bimera, harimo ibikakarubamba, umwenya ndetse n'ibindi bivura indwara, harimo nk'izo mu kanwa.

Umuntu ufite amenyo y’umweru meza, munsi yiwe hari amafoto y'uducupa tw’umuti ukoreshwa mu koza amenyo kugira ngo ahinduke meza nkay’uwo muntu uri hejuru.

Ikarito ishushanyijeho umukobwa wambaye agasengeri k'umukara, ako gakarito karimo ibinini bifasha abakobwa kongera ibiro ndetse no kubyibuha hakoreshejwe imiti yabugenewe.

Umuntu ufite agacupa mu ntoki karimo umuti ndetse uvura indwara zitandukanye, ukozwe mu bimera harimo igikakarubamba ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora imiti.

Imeza iriho uducupa ndetse n'udukarito turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, imbere yabyo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Agacupa kanini karimo umuti woza amenyo ukozwe mu bimera bitandukanye, harimo ibikakarubamba, umwenya ndetse n'ibindi bavanga kugira ngo bakuremo umuti woza amenyo kandi ukiza na mikorobe.

Icupa ry'icyatsi ririmo umuti ukozwe mu bimera, harimo nk'umuravumba, igikakarubamba, umwenya ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora imiti, ukaba uvura indwara zitandukanye.

Umuntu ufite agacupa mu ntoki k'umukara gatoya, karimo umuti uvura amenyo ndetse n'ibindi bibazo byo mu kanwa, akaba agafite ari kukerekana kugira ngo abandi bazakagure.

Ikibabi cyitwa umwenya cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye, harimo nk'uvura amenyo ndetse n'uvura mu nda, kikaba kiri ahantu cyatewe.

Ubukarito butatu buri mu mabara atandukanye burimo imiti ya kinyarwanda ikozwe mu bimera, yifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye, harimo nko kubabara umutwe, mu nda ndetse n'ahandi hose.

Ibibabi byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse kikaba kivamo n'umuti uvura indwara, kikaba cyitwa umwenya, kikaba kivura indwara nyinshi cyane.

Agacupa k'umweru karimo amabara y'umuhondo karimo umuti wifashishwa boza amenyo, kakaba gakiza indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda uturuka mu menyo ndetse n'izindi zose.

Ibimera bitandukanye bivamo umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira abana ndetse n'abantu bakuru, kikaba giteye ahantu mu murima kikaba ari kinini cyane.

Ikimera cyifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda itandukanye, kikaba kiri mu butaka aho bagiteye, kugira ngo kimere, gikure, kizavemo imiti.

Ikimera bifashisha bakora umuti ugiye utandukanye, ufasha umuntu gukira indwara ndetse no kumererwa neza mu mubiri, kikaba cyifashishwa mu gukora umuti wa kinyarwanda.

Ubucupa butatu buri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, n'ubundi bucupa butoya burimo umuti ukozwe mu bimera bitandukanye, harimo ibimera by'ibikakarubamba.

Umuntu ufite agacupa mu ntoki k'umuti woza amenyo akaba ari gushyira ku buroso kugira ngo yoza amenyo akuremo imyanda irimo, uwo muti ukaba ukozwe mu bikakarubamba ndetse n'ibindi.

Agacupa k'umweru kari imbere y'amacunga, kakaba karimo umuti ukozwe mu bimera ukaba uvura indwara zitandukanye, harimo izo mu kanwa ndetse no kubabara umutwe ndetse n'izindi ndwara.

Ubwoko bw'ibimera bitandukanye bivamo imiti ya kinyarwanda ivura indwara ndetse bakaba banayikoresha bavura abantu bagize imvune ndetse n'abafite ibisebe.